ilikigo cy'amashuri ni ahantu abarimu n'abanyeshuri bahurira, abarimu bagafasha abanyeshuri kumenya ibintu byinshi by'ubuzima busanzwe, babigisha kwiyitaho, bakanabigisha gusoma no kwandika, bagafashanya mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ku banyeshuri bigaga siyanse nk'amashimi, amafizike na mabiyoloji ,biba byiza cyane ,iyo bakoze pulatike bakajya muri laboratwari ,bagashyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo, kugira ngo babone ubumenyi bw'igihe kirekire.

Laboratwari za shimi cyangwa iza fizike zifasha abanyeshuri mu gushyira mu bikorwa ibyo bize, bigatuma bumva neza ibyo bize mu magambo, bakabyumva bari kubikora n'intoki zabo.

Hano hari ihuriro ry'ibikoresho bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari gukora puratike z'ibyo bize muri tewori, bashyira mu bikorwa ibyo bize muri tewori, kugira ngo bamenye neza ko babyumvishe.

Muri hoteri no mu maresitora akomeye, abakozi bakoramo bahorana isuku cyane bambaye imyenda y'umweru ifuze. Akenshi usanga bambaye n'utuntu mu mutwe turinda imisatsi gutakara mu biryo by'umukiriya, bakambika n'intoki zabo kugira badakora ku biyo by'abakiriya.

Ibizamini bya Leta bikorwa n'abanyeshuri bari gusoza amashuri abanza, icyiciro rusange toronkome, n'amashuri yisumbuye, babikora bicaye mu mashuri batatanye, kuko buri wese aba agomba gusubiza ibyo yize mu ishuri muri icyo cyiciro.

Ibikoresho by'umuziki bituma umuziki wumvikana neza mu matwi y'uwumva; nk'iyo mu muziki harimo gitari cyangwa bakoresheje senti na mikorofone, wumva amajwi y'abaririmbyi ari kumvikana neza.

Hari ibikoresho by'umuziki abanyeshuri bigiraho gucuranga. Hari sembare bavuza .Hari guitar bacuranga byose bibafasha mu kwiga umuziki wabo neza.

Simati karasi rumu， ni icyumba kiba ku bigo by'amashuri，abanyeshuri bakijyamo bakajya kuri kompiyuta，bakiyungura ubumenyi，bagasacinga kuri interineti ibibazo bafite， bigatuma biga neza bakanatsinda neza.

Icyumba cya kompiyuta mu mashuri, gifasha abarimu n'abanyeshuri mu kwihugura ku bumenyi bw'ikoranabuhanga, bigatuma umwana amenya neza ikoranabuhanga arikuye mu ishuri.

Laboratwari ni ahantu haba heza cyane, abantu bajyamo bagashyira mu bikorwa ibyo bize mu magambo, bakavangavanga ama poroduwi shimike, bakareba ko ibyo bize bari bubibone, bigatuma bashobora kuvumbura n'ibindi bintu, bishingiye ku byo bize mu ishuri.